Igikuta kirekire cy'amatafari ahiye, hari icyapa kirangira abantu aho bagana, mu muhanda hirya hateyemo ikona ryifashishwa mu muhanda bagirango bakumire imodokari runaka, bahagarika imodoka runaka, muri uwo muhanda harimo ibiti bifite ibara ry'icyatsi kibisi, bigaragara ko hijimye ari ku mugoroba.